Abaturage benshi bicaye barambije mu busitani bari mu kigero cy'imyaka hejuru ya mirongo itatu, bavanze abagabo n'abagore, imbere yabo hahagaze umukozi wambaye impuzankano isa nk’iyu rwego ahagarariye cyangwa akazi akora, akaba asa nkaho ari kubaha inama cyangwa amahugurwa.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara bamwe bafite mudasobwa abandi bafite amayi n'amakaramu mu ntoki barasa n'abakurikiye inama, inyuma hari icyapa cyanditse mu mabara y'ubururu n'umweru.

Abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara, bafite ameza imbere yabo, ndetse n'ibitabo barasa nk'abari kwandika, bafite amacupa y'amazi, bakaba basa nk'abakurikiye bose bareba mu ruhande rumwe, aho bicaye harasa nkaho ari icyumba cyininama.

Itangazo ryanditse mu mabara y'umuhondo, umweru n'ubururu ry'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, riravuga ko ari umunsi ntarengwa wo kwishyura umusoro, bakaba bashyizeho uburyo bwo kwishyura ukoresheje akanyenyeri umunani zeru zeru akadirishya cyangwa gusura urubuga rwabo.

Igiti gishinje kirimo insinga nyinshi z'amashanyarazi, zihererekanya n'ibindi biti bishinze hakurya yacyo, ku ruhande hari inzu ndende isa nkaho ari inzu y'ubucuruzi, hasi haparitse amamodoka menshi asa nkaho ari ama bisi, hakaba hari n'urujya n'uruza rwabantu benshi batambuka iruhande rwayo mamodoka.

Inzu isakaje amabati atukura inkuta ni ubururu umuryango wayo usa umukara, ukaba uriho icyapa cyanditseho mirongo itatu na gatatu, hari itara rimurika hanze y'inzu hakabamo icyuma gifata amashusho bakunze kwita kamera kimwe kireba mu nzu imbere, ikindi kireba hanze.

Imodoka eshatu ziparitse mu muhanda wa kaburimbo, ebyiri murizo n'imbangukiragutabara, iya gatatu ni imodoka ifite ibara ry'umukara, inyuma yazo hari inzu iteye amarange y'umweru, isakaje amabati y'ubururu hakaba hakikijwe n'ibiti birebire.

Abantu benshi bambaye impuzankano z'ikigo cy'igihugu cyitwa polilisi nasiyonali bafite imbunda mu ntoki usibye umwe muri bo ubari imbere ufite indangururamajwi bahagaze muri kaburimbo inyuma yabo hari ibinyabiziga.

Inzu ikoreramo polisi na nasiyonari y'u Rwanda, iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera nk'uko amagambo yanditse ku mutwe w'izu abigaragaza, imbere yayo hahagaze abapolisi babiri bambaye impuzankano bafite imbunda mu ntoki.

Abantu benshi abagabo n'abagore bambaye imyenda yera irimo ikirangantego cy'umuryango efuperi, bafite amadarapo mu ntoki ndetse n'ibipapuro biri mu bwoko bw'igipfunsi, bose barasa nk'abari kuririmba cyangwa kuvuga.

Imihanda ibiri ya kaburimbo itandukanijwe n'ubusitani buteyemo imikindo umuhanda w'igisaka cy'iburyo urimo ibinyabiziga bitatu, icy'imbere kikaba kiri mu bwoko bw'ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwigenga kitwa takisi vuwatire.

Ku muhanda wa kaburimbo urimo bisi itwara abagenzi, iburyo hari abanyamaguru mu kayira k'abanyamaguru, babiri bari gutambuka bagana mu cyerekezo bisi iri kwerekezamo, ibumoso naho hari abanyamaguru batatu bahagaze mu muhanda batari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo usukuye ufite ubusitani hagati. Igiti gishinze kiriho icyapa cyamamaza, hakurya hari inzu yo mu bwoko bakunze kwita etage, inzu igeretse isize amabara yera, mu nzu mu gipangu imbere harimo ishyamba.

Mu nzu y'ubucuruzi ari umurongombo imbere yayu hajyamo akagari mu mazu harimo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ibanza ni icururizwamo amata ifite amabara y'ubururu ikurikira ifite imyenda imanitse hanze isa nkaho irikwerekanwa mu rwego rwo kuyicuruza, hakurya hari ibinyabiziga biparitse ndetse n'ibiti bitunguka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo imbere yera irombereje n'umurongo w'umuhondo ucagaguye, harimo n'ibinyabiziga by'amoko atandukanye ndetse inyuma hakaba ishyamba ry'ibiti birebire n'ibiti bishinje by'amatara yo ku muhanda.